U Rwanda rwacu ruratuje kandi ruratekanye. Kubera ko abayobozi bacu baba bafashe umwanya bakajya kudutekerereza, bagateranira mu nama nk'izingizi bungurana ibitekerezo, ku cyagirira umuturarwanda akamaro.

Ni uburyo bwiza leta yacu y'u Rwanda igira aho ubuyobozi bwegerezwa abaturage bakitangira ibitekerezo bakabigeza ku bayobozi babo, aha turabona abaturage bitabiriye kandi benshi barakurikiye baratuje bari kumvamva icyo ubuyobozi bubagomba, nabo bakitangira ibitekerezo kugira ngo hatazagira imyanzuro iza bakavuga ko atari bo bayihitiyemo.

Muri za serivise nziza za leta igenera abaturage ahangaha bigaragara ko hari mu nama abayobozi bungurana ibitekerezo kugira ngo hafatwe imyanzuro igera ku baturage ari myiza ibafasha kandi ibunganira mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo hataza kugira ikibazo kivuka ku buzima bwabo.

Aha turabona inzu nziza imeze nka sale y'ubukwe harimo: itapi y'ubururu, harimo ameza ateguye neza, turi kubonamo n'abazungu; bisa nk'ibyakurura ba mukerarugendo cyane cyane mu Rwanda, tubimenyereye mu makwe cyangwa mu nama z'abayobozi runaka batandukanye.

Aha turahabona abaturage beza, barakurikiye baratuje bigaragara ko barikumva nk'inama z'umuyobozi kandi batuje ku murorongo, nk'Abaturarwanda kubera ko baba bagomba gutega amatwi kugira ngo bubake igihugu cyabo neza kandi mu mutekano bakurikiza inama babagira.

Icyumba cyiza cy'inama, harimo abayobozi nk'uko bigaragara, bari kwiga ku ngingo zitandukanye zafasha abaturarwanda kubaho kandi neza, mu mahoro n'umutekano bisesuye nta nzara, ntakibahungabanyiriza ubuzima, rero buri wese arahuze, ari kwiga ku murongo aribuze gutangaho igitekerezo kugira ngo baze kubihuza neza, bizatugereho ari byiza, twebwe nk'abaturarwanda.

Inama nyunguranabitekerezo ku bayobozi bacu ni icyumba cyiza cy'inama kirimo isuku kirimo umutekano nk'uko bigaragara; harimo abayobozi bacu rero bari kwiga ku bintu bitandukanye kubera ko ahangaha turabonamo nkumwe wahagurutse uri gutanga igitekerezo cye; ahangaha kiraganirwaho kandi barahava byafatiwe umwanzuro bizatugereho ari ibyiza twebwe nk'abaturarwanda.

Ahantu heza cyane ho kubera inama, abayobozi bacu baricaye, bari gukurikira umuyobozi cyangwa igitekerezo cy'umwe muri bagenzi babo. Turabona icyapa kiri mu mabara y'ubururu n'icyatsi, cyanditseho Kigali yacu, Kigali icyeye. Ni muri bwa buryo bwiza cyane rero tugira mu Rwanda bwo kugira imijyi isukuye kandi isa neza, kubera ko n'amahanga byarayayobeye, isuku iba mu Rwanda ukuntu yitabwaho.

Umuhanda urimo imodoka y'ubururu itwaye amabati hari umuntu uri kuri yo modoka itwaye ibati hari moto itwaye umugenzi ndetse kuruhande rwe hepfo har' umusore ufite ikote ku rutugu ndetse hari nundi mugenzi uri kugenda muruhande rumwe n'imodoka inyuma ye hari igare hepfo hari ahantu bubatse hameze nk'ahantu bari kubaka hari ibiti by'icyatsi.

Turabona ahantu bigaragara ko habereye inama ni mu ihema ry'umweru, inyuma hari icyapa abayobozi turababona imbere, abaturage bitabiriye bigaragara ko bari kungurana ibitekerezo kandi batuje kubera ko turi mu gihugu cy'umutekano n'umudendezo kuri buri muturarwanda wese.

Serivisi z’ Irembo ni serivisi nziza cyane kuko ni serivisi zorohereza abaturage, bitewe n’aho bari. Iyi serivisi rero hakunze kwakirwaho ibyangombwa by’amavuko, ibyo uko washyingiwe, ibyo uko uri ingaragu, ubwisungane mu kwivuza. Ahanini yakoreshejwe cyane cyane mu gihe cya COVID, kubera ko abaturage batabasha kugera ku buyobozi nk’uko byifuzwa. Kandi byihuse wakoreshaga Irembo rero, ugahita uhabwa serivisi mu buryo bwiza kandi bwihuse.

Ni bwa buryo bwiza leta idushyiriraho bwo kwamamaza cyangwa kumenyesha abaturage iminsi isigaye kugira ngo inkingo bagenewe guha abaturage zirangire, aho baba bazibegereje ahangaha bashishikariza abaturage ko bajya gufata inkingo bagenewe, kuko bari kubamenyesha ko hasigaye iminsi ibiri yonyine gusa kugira ngo birangire.

Bimwe mu bintu byiza aho leta y'u Rwanda igira aho umuturarwanda agomba kwishyura umusoro ku mutungo w'ubutimukanwa kandi yishyurwa buri mwaka, ni ibintu wumvikanyeho n'abaturage kubera ko bose bibafitiye akamaro, iyo igihugu cyawe kiri gutera imbere ukabona imihanda irakorwa barubaka inyubako nyinshi zifasha zorohereza abaturage nawe ubona ko ubifitemo uruhare.

Ahantu biragaragara ko ari ku muhanda hari urujya n'uruza rw'abagenzi bityo bigaragara ko wafunguye businesi byagufasha kubona abakiriya byihuse cyane cyane tugendeye kuri ibi byapa tubona bibiri icyo hejuru biragaragara ko ari icya banki bigaragara ko batanga serivisi zo kubitsa no kubikuza. Hasi hari icya sitidiyo bigaragara ko batanga serivisi z'amafoto meza no kugufasha ko ibirori byawe byagenda neza

Uburyo bwiza cyane kandi bufashije no guteza igihugu cyacu imbere bwo kwaka inyemezabwishyu mbere yuko usohoka aho waguriye ibikoresho cyangwa ibyo waje kugura kubera ko bigufasha kudahangana na leta cyangwa kunyereza umutungo wa leta kuko ushobora kugera imbere ugahura n'abakozi ba Rwanda reveni bakaba bakwaka ibintu byawe cyangwa bakagukerereza usubira inyuma kureba aho waguriye bya bintu.

Aha turabona icyapa cyiza cyane cyamaza cyangwa cyibutsa, umunsi w'umurimo ahangaha hari ku itariki ya mbere Gicurasi bibiri na makumyabiri na kabiri. Tuzirikana ko no mu minsi iri imbere uri bwongere ukabaho. Uyu munsi uba mwiza cyane kuko uhwitura bamwe bakongera kwibuka intego zabo, ibyo bagezeho n'ibyo bateganya kugeraho, ibyo babona batagezeho kandi batakoze, bakihutira kubikora kugira ngo bazongere kwizihiza uyu munsi barageze ku byo bifuzaga.

Amapoto cyangwa icyo kitwa amapironi, ni byiza cyane ku batura Rwanda, aha turahabona ipoto rihurira insinga nyinshi, kuko bigaragara ko rihereza abaturage bo muri ako gace umuriro, bose bakaba bacanye bibafasha mu iterambere ryabo kandi ntihagire undindira kubera ko yabuze umuriro, biragaragara ko leta iba yarabatekereje ho kandi cyane.

Turabona ahantu mu ishyamba hateye amapoto abiri cyangwa icyo twakwita iminara, ni bwa buryo bwiza Leta yacu iba yaraduteganyirije nk'abaturage, kugira ngo tugerweho n'ibikorwa remezo mu buryo bwiza kandi bwihuse. Aha hantu rero, Leta ihateganya bitewe n'abaturage aho bari, ku buryo bitashyira ubuzima bwabo mu kaga.

ibiti byiza cyane by'inganzamarumbo, biratoshye bidufasha guhumeka umwuka mwiza mu Rwanda no mu mahanga, ahari ishyamba haba hari umwuka mwiza, turahabona ipoto ririho insinga z'amashanyarazi byorohereza abaturage batuye aho ngaho gukora ibikorwa bibihutisha mu iterambere.

Turabona umuhanda uriho urujya n'uruza rw'abantu, uriho ibinyabiziga, turabona icyapa cyiza cyane kikwereka ko imbere hari dodani, bivuze ngo uba ugomba kugabanya umuvuduko kugira ngo udacika imodoka hakagira n'ibyangirika, aha ngaha biragaragara ko hari isoko, hari amapoto meza ajyana amashanyarazi ku bikorwa rusange by'abaturage n'abaturage muri rusange batuye aho hantu.

ubu ni uburyo ikigo cyacu cyiza cyane gishinzwe ingufu rega cyadushyiriyeho budufasha ko nta muturage ushobora kubura umuriro igihe kirekire no mu gihe havutse ikibazo aba batekinisiye babo bihutira kuhaza bakareba ikibazo gihari namwe murabibona ko nk'ubu bari mu kazi kandi urabona ko ari ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga aku bitanze hamwe na REG badufashije vuba vuba kugira ngo tutaza kugira ikibazo nk'abaturarwanda.

Abaturage bicaye ahantu heza cyane kandi hasukuye, hirya turahabona ubusitani buzana amahumbezi muri iki kigo n'ababukoramo, hari urujya n'uruza uko bigaragara biragaragara ko ari kwa muganga, aba bantu baje kwivuza rero bakaba bategereje ubakira umwekuru umwe.

Turabona inzu nziza bigaragara ko arifashirizwamo ababyeyi mu gihe bari ku nda bategereje kubyara uruhinja, imbere turahabona imodoka imenyerewe gutwara abarwayi cyangwa aba babyeyi mu gihe baje gufashwa kubyarira ku bitaro kugira ngo umwana abe afite ubuzima bwiza na nyina afite ubuzima bwiza no kobungabunga, imbere turabona umuyobozi mukuru w'ubuzima ko yasuye ibitaro ari kuganirizwa bamwereka uko bakora kuri ibi bitaro.

Izi tuzizi nk'imbangukiragutabara, imodoka zikoreshwa ku bitaro bitandukanye, hano mu Rwanda zikura abarwayi ku bitaro bimwe zibajyana ku bindi mu buryo bwihuse, kugira ngo bafashwe byihuse kubera ko niyo iri mu muhanda uyibonye icanye amatara ayiha inzira, kugira ngo ibashe kwihuta igeze umurwayi kwa muganga mu buryo bwihuse, ataragira ikibazo gikomeye.

Ni bwo buryo bwiza reta yacu y'u Rwanda itugezaho nk'abaturarwanda ahangaha biragaragara ko ari mu kigo cy'ishuri nk'uko bigaragara kandi turabonamo n'urusengero .Ni uburyo bwiza rero reta ikoresha n'abayobozi b'ibigo kugira ngo umwana yige kandi afashwe no gusenga atagombye gusohoka ikigo kuko yajya no kwiga n'imico mibi mu muhanda aha ngaha byegeranya n'ishuri ku buryo umwana wawe uba uzi ko yiga neza kandi agakurikirana n'ibyo gusenga.

Ikigonderabuzima gisukuye nk'uko bigaragara kandi gitanze amahoro ku murwayi uhari, nta kavuyo karimo harimo umutuzo n'umudendezo kuri buri murwayi wese wahagannye kubera ko nk'uko bigaragara baricaye baratuje bari kugenda umwe kuri umwe bakirwa bitewe n'uko baje.

Inama z'abaturage zimwe twari tuzi nk'inama z'abunzi aho abaturage bicaraga bakikemurarira ibibazo n'abayobozi babo b'inzego z'ibanze kandi kigakemuka neza ari ufitanye ikibazo n'undi bakiyungira aho ngaho bitagombye kujya mu nzego zo hejuru, ibintu byari byiza kandi byarafashaga cyane ni ukuri muri sosiyete nyarwanda.

Ni inkuru yasakaye mu Rwanda cyane ya famiye yo kwa Rwigara, aho bari bakoze amakosa bari gukurikiranwa ariko bagahabwa n'uburenganzira bwo guhura n'abanyamategeko babo kugirango baganire batazavuga ko barenganyijwe. Ahangaha rero n'uburyo bwiza leta y'u Rwanda igira yo kudatsikamira buri wese mu gihe harimo.

Uburyo bwiza cyane bukoreshwa cyangwa bwakoreshejwe mu rwanda, aho uwakoze ikosa umugororwa n'umuturage bahurizwa hamwe agafatirwa imyanzuro aho yakoreye icyaha umuturage agataha yishimye n'ugororwa akazabona uko yisobanura, igihe yagarutse ari gusaba nk'imbabazi uwo yakoreye icyaha.

Nibwo buryo bwiza leta yacu igira bwayoboye amahanga. Aho bafasha umugororwa guhura n'umwunganizi we mu mategeko ahangaha nkuko tubibona ni abagororwa baje mu rukiko kuburana, umwe mu bagororwa ari kuganira n'umunyamategeko we ku ngingo zitandukanye wenda bari bukoreshe, mu gihe bari bube bari kuburana.

Aha turabona inyubako yubatse kandi zitiye neza bigaragara ko ari ku igororero, hirya turahabona kandagira ukarabe ibafasha kwisukura kugira ngo binjire basa neza, turabona umuyobozi w'abagororwa n'abagororwa bigaragara ko bavuye hanze bari kwerekana ko nta kintu binjije cyakwangiza umudendezo n'umutekano w'abarimo imbere n'ubuzima bwabo bwite n'abangaba bavuye hanze.

Uburyo bwiza leta y'u Rwanda igira butaba mu mahanga, aho umugorerwa ashobora guhura n'uwamusuye bakanaramukanya kandi nta wubahagaze hejuru kubera ko mu Rwanda tuba twizeye umutekano wacu n'ubuyobozi bwacu kubera ko n'ufunze aba abizi neza ko arinzwe kandi agomba gukurikiranwaho ibyaha bye byarangira akazataha kandi mu mahoro.

Nyakwigendera Kizito Mihigo witabye Imana, yari umuhanzi mwiza cyane mu ruhando rwa muzika nyarwanda. Yarakunzwe bihagije, kubera ko haba mu gisate cy'ìndirimbo zo mu kiliziya cyangwa indirimbo zo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, aho yaririmbaga bumvaga ari byiza kandi cyane. Aha yari ari mu igororero, aho yari yarahamwe n'ibyaha ari kugororerwa, nyuma akaza kwitaba Imana, bivugwa ko yari yiyahuye.

Mu igerorero rya Rubavu aho baba bita kubagororwa urabona ko yubatse neza itateza ibyago kubera ko urabona ukuntu ikorotiriye ntaho babona baca basimbuka, kuko ugerageje gutoroka turabizi ko aratswa, rero urimo aha ngaha kubera ubryo yubatsemo ntaho yabona acikira rwose ngo abe yateza ibyago ku bamurinda

Igikoresho cyiza cyane tuzi nka kizimyamwoto, cyakagombye kuba ahantu hose kandi kikahaba igihe cyose. Ni byiza cyane rero mu gihe ugiye gukodesha nko gukorera ahantu hahurira abantu benshi ko yakabaye ihari kuko iyo haje nk'inkongi y'umuriro itateganyijwe mu gihe polisi itarahagera, mwaba mwifashishije iyo kizimyamwotou yanyu mufite.

Mu uburyo bwiza cyane leta y'Urwanda itugezaho nk' abanyarwanda, aha ngaha umupolisi ari kuganira n'abaturage abasobanurirara uburyo bagomba gukoresha umuhanda cyangwa kwita ku mutekano wabo, ahantu hose baba bari, muri ya serivisi nziza rero gavumeti yacu igira, n'ibi ngibi biba bikenewe, kuko bihugura umunyarwanda, yihuriye n'umupolisi amaso ku maso.

Ababyeyi beza cyane bigaragara ko harimo abanyamahanga baje bagana, u Rwanda bakirwa na madamu minisitiri Oda Gasinzigwa, turahabona ifoto nziza bari mu biro idarapo ry'igihugu cyacu basa nk'aho ibyo baganiriye byemejwe kandi ba byishimiwe ku mpande zombi.

Abaturage bari bishimye kandi bizihiwe nkuko bigaragara, biragaragara ko bari baje kwamamaza umukandida wabo wo mu ishyaka rya girini pati nibo tumenyereye ko rigaragara mu birango by'icyatsi. Ariko ntabwo yabashije gutambuka mu matora kubera ko yagize amajwi ari hasi ya nyakubahwa Paul Kagame.

Ifoto y'umuyobozi frank habineza uturuka mu ishyaka rya girini pati igaragaza uko byagenze mu matora aheruka y'umukuru w'igihugu ya bibiri na makumyabiri na kane, ubwo yiyamamarizaga kuyobora igihugu we ntatambuke kubera ko ijanisha ritwereka ko we yagize zeru n'ibice mirongo itanu na bitatu ku ijana.

Izi niza serivisi nziza z'abanyarwanda tumenyereye zayoboye amahanga, ahangaha mu gihe abandi batora bafite ubwoba bafite urwikekwe aha ni mu Rwanda, bari kubara amajwi baratuje kandi baratekanye nkuko tubimenyereye ko amatora yacu atangira neza kandi akarangira neza nta mvururu yayavutsemo.

Ahangaga ni rya banga tugendana nk'abanyarwanda ryayobeye abanyamahanga birirwa babyibazaho bakabyita ruswa bakabyita ibintu byinshi, ahangaha rero twari twaje kwiyamamariza umukandida wacu w'ishyaka rya arapiyefu inkotanyi hizi egiserensi Paul Kagame. Ahangaha yari ahageze abaturage bari kumwakira bamukomera amashyi bamwereka urukundo rwinshi n'urugwiro bamufitiye.

Umwe mu ntwari z'u Rwanda Agathe UWIMANA, wahoze ari minisitiri w'intebe w'u Rwanda wanze gushyigikira ibitekerezo bibi bya leta yaririho icyo gihe agaharanira ukuri n'uburenganzira bwa muntu kandi biciye mu mucyo, yaje kuzira rero ibitekerezo bye byiza aza kuraswa n'umutware we basiga abana ariko yagiye gitwari, ni umwe mu ntwari dufite mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Ni ishyaka ryiza cyane rimwe mu mashyaka ari mu rwanda, rya pr cyangwa iryo tuze nka barteir berad ni ishyaka ryagiriye icyizere umukuru w'igihugu naryo ntiryazana umukandida waryo ,ridufasha kwamamaza perezida paul kagame mu matora aheruka bibiri na makumyabiri na kane.

Muri za serivisi nziza leta yacu itugezaho nk'abatura rwanda, aha baba batekereje guteranya inama abayobozi bacu bakatuvugira bagatanga ibitekerezo bitandukanye, hanyuma hakaza gufata imyanzuro izatugeraho ari myiza nk'abaturage, kugira ngo hatagira igihungabanya ubuzima bwacu, ni yo mpamvu mu rwanda n'amahanga ahora atwibazaho kubera ko leta yacu idutekerereza kare cyane bikatugeraho ari byiza.

Icyumba cyiza cyane cy'inama giteguye neza, ni icyumba cyiyubashye biragaragara ko ari icyumba cy'inama z'abayobozi bakomeye, baricaye nabo rero bateze amatwi abayobozi babakuriye, bari kugaruka ku ngingo zitandukanye zafasha umuturarwanda kubaho kandi neza nta ngingimira, nta bwoba afite, muri iki gihugu kuko abavuka muri iki gihugu cyabo.

Ni umuhanda mwiza cyane munini bigaragara, urimo urujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga, hakurya no hakuno turahabona abantu bari gukoresha amaguru, mu muhanda rero turahabone za modoka nziza zidufasha kuva no kujya ku kazi z'amabisi, rero impamvu zidufasha turi benshi ni uko zifite igiciro kiri hasi, ugereranyije n'ibindi binyabiziga bikoreshwa mu buryo bwa taransiporo mu mujyi wa Kigali.

Imodoka nziza iri mu muhanda mwiza, kuko urasukuye kandi urakoze neza nta binogo birimo. Iyi ni imodoka tuze rero ko ari nk'imodoka itwara imizigo iyijyana ahantu bitewe n'aho uyikeneye ari kandi bikamworohereza kutagenda abyigana n'imizigo mu modoka z'abagenzi.

Umuhanda mugari ufite isuku uko tubibona nkuko tubizi mu Rwanda. Uri kubisikanamo ibinyabiziga harimo urujya n'uruza, bigaragara ko bijyanye abantu mu kazi abandi biri kubageza aho bashaka kugera byihuse, abandi biri kubageza aho ibyo babatumye muburyo bwihuse nkuko tubuzi mu Rwanda.

Mu muhanda mwiza cyane mugari nk'uko bigaragara utateza ibyago ku bawukoresha, urimo rujya n'uruza rw'abantu ibinyabiziga. Turabonamo abamotari babiri bari imbere y'imodoka cyangwa akamoto tuzi nk'agafasha abantu kwimuka cyangwa kuba batwara ibintu byinshi mu gihe gitoya k'umuntu udafite ubushobozi bwo kwishyura imodoka nini.

Nibwo buryo bwiza abanyarwanda bagi na Leta y'u Rwanda ibibafashijemo, ni umuhanda mwiza ukoreye amasuku nk'uko bigaragara, harimo rujya n'uruza rw'abantu n'ibinyabiziga, turi kubonamo abamotari bambaye amajiri nk'uburyo bwiza bwo kubizera ku mutekano w'uwo atwaye, atari bya bindi hajya hazamo abajura mu bamotari, iyo yambaye ijire wafata nimero iriho ukazahamagara, bakakugeza k'uwo waba waragiranye ikibazo nawe.

Turabona umuhanda mwiza cyane ukorewe isuku, turahabona n'kiraro na ruhurura ikoze neza bigaragara ko ubuzima bw'abahatuye n'abahakoresha butajya mu kaga kubera ko kino kiraro aricyo bakoresha bambuka. Turabona n'imodoka rero irimo abagenzi n'indi ipakiye imizigo iyijyana ahantu runaka bayikeneye bayibatumye. Aba bagenzi batwawe neza nk'uko bigaragara baratuje kandi baratekanye baragenda bareba ibyiza by'u Rwanda.

Turabona umuhanda ukoreye isuku neza cyane nkuko bigaragara turabona urimo urujya n'uruza rw'imodoka, turabonamo imodoka nini n'intoya na za moto zimenyerewe kwimura abantu cyangwa kubatwaza imizigo ariko itaremereye cyane, ahangaha turabona ya modoka izwi nka howo ipakira imicanga ikunda gufasha cyane mu bikoresho by'ubwubatsi ku bantu bari kubaka ku mashatsiye manini, aho ibagemurira imicanga cyangwa amabuye.

Muri gare nyabugogo aho imodoka zisohokera zigenda, haba hari urujya n'uruza rw'abantu turahabona za taransiporo nziza za jari taransiporo, ikigo gitangwa serivisi nziza kubera ko iyo ugenda muri ino modoka uba ufite umutekano n'umudendezo, kubera ko n'ikigo kizwi kandi kimaze kumenyekana muri iki gihugu cyacu udashobora kugira ngo ikibazo ngo ubure ugufasha, nkuko twabonye mu minsi ishize umuturage byamubayeho agatabaza agahita atabarwa.

Aha ni muri gare nziza cyane ikoreye isuku gare ikoze neza kandi bigaragara ihoramo umutekano ihoramo inzego z'umutekano aho tuzi hano mu mujyi wa kigali nkahazwi nka downtown iyi gare rero iba nziza ku bantu benshi kubera ko irimo imodoka zijya ahantu henshi muri n'umujyi wa kigali byorohereza abakorera muri uno mujyi kuba babona transporos zibageza aho bataha cyangwa baza mu kazi ku buryo bworoshye.

Ni serivisi nziza cyane twe nk'abanyarwanda leta yacu iba yaradutekerejeho kuba wakicara ahantu heza kandi hatuje ugakoresha internete mu buryo bwiza kandi bwihuse, hano tuhazi nko muri ka furi zone mu mujyi wa kigali, haba hari urubyiruko nimugoroba ruba ruri gukora akazi kuri internete, cyangwa rureba ibyiriwe bicicikana ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo tubeho tujijutse kandi mu iterambere nk'abanyarwanda.

Aha ni ya midugudu myiza cyane twubakiwe na perezida wa repuburika aho bari bari guca akajagari no kugira ngo bakure ubuzima bw'abaturarwanda mu kaga. Iyi midugudu yaje ifasha rero abaturage bari bari mu manegeka kubera ko ubuzima bwabo bwari buri mu kaga ariko ubu baratuje baratengamaye bari ahantu heza cyane kandi hasa neza.

Icyapa kiza cyane gikunda gushushanywa mu muhanda, aho iyi fureshi iba ikwereka aho ugomba kugana mumukono w'aho ugomba kujya kugira ngo utaza guhura n'ibibazo byo kwandikirwa na za kamera, kuko iyo utubahirije iyi fureshi hari igihe uhura n'ikibazo ugasanga urandikiwe kamera iragufashe nubwo hataba hari umupolisi.

Icyapa cyiza cyane gifasha abakoresha ibinyabiziga kuba babikoresha neza kandi bagataha batandikiwe na polisi y'u Rwanda kubera ko iki cyapa kiburira ko aho hantu nta parikingi ihari, umuntu uhagaze rero aba ari mu makosa kubera ko aba ari mu byago byo kwandikirwa amafaranga atateganyije.

Icyapa cyiza cyane ku bakoresha umuhanda, ni icyapa kikwereka ko ugomba kugabanya umuvuduko ukagenda gake, cyane kubera ko ubwo aho hantu haba hashobora gushyira ubuzima bwawe cyangwa utwaye mu kaga, niyo mpamvu iki cyapa kiba gihari kubera ko kidahari ukagenda uko ubishaka cyangwa ku muvuduko nk'uwo wagenderagaho, byateza impanuka.

Icyapa kiza cyane kubakoresha umuhanda kubera ko kibereka ko ahangaha ari aho imodoka zinyura zibisikanye kuko iyo bibaye ngombwa ahangaha imodoka bisaba ko iha inzira iyindi hatajemo umubyigano cyangwa ngo bibe byateza agisida mu muhanda.

Aha turahabona icyapa kiri ku muhanda hejuru yacyo hari inyubako hari n'inyubako bari kubaka itararangira, ariko cyane cyane iki cyapa kiragaragaza nk'umuntu umenyereye aya mategeko y'umuhanda cyangwa yize wayakoresheje, nk'umunyarwanda tumenyereye ko mu rwanda tugendera ku mategeko, iki cyapa kigaragaza ko utagomba kujya ku muvuduko urenze hejuru ya mirongo ine, mu gihe utarinjira mu kindi cyapa kikwemerera kuwuvamo.

Icyapa kiza cyane kiburira umushoferi ko imbere hari feruje kandi namara kuyirenga hari ahantu hamanuka kurugero rwa karindwi ku ijana. Iki cyapa rero kiba kiza cyane kuko gifasha guteguza uyu mushoferi mu mutwe ko imbere hari ibyo ari buhure nabyo akaba yahagera neza kandi ntiyandikirwe amafaranga kubera ko yahageze atiteguye.

Icyapa cyiza cyane, kuko ni icyapa kiburira umushoferi ko muri metero ijana hari dodani, kandi hafi y'aho hari ikigo cy'ishuri. Iki cyapa ni cyiza cyane rero kuko giteguza umushoferi gushyira mu mutwe ko imbere hari ikigo cy'ishuri, kugira ngo ataza kugenda yihuta agahura n'umwana utabyiteguye akaba yamugonga.

Umuhanda mwiza cyane urimo isuku urimo urujya n'uruza rw'abantu nk'uko bigaragara ndetse kandi n'ibinyabiziga, ku ruhande turahabona icyapa gifasha abashoferi kumenya umuvuduko bagomba kugenderaho aha hantu, kubera ko ahangaha bagomba kugendera muri mirongo itandatu, kubera ko nta kibazo hateje kandi umushoferi ashobora kuwugenderaho ntateze ibyago mu muhanda cyangwa impanuka.

Icyapa cyiza cyane ku bantu bazi iby'umuhanda nk'abashoferi, kibafasha cyane kumenya umuvuduko agomba kugenderaho aho hantu, kugirango adashyira ubuzima bwe n'ubwabo atwaye mu kaga, kuko polisi na rura biba byarabigenzuye neza ko aho hantu hadakoreshejwe kuri uno muvuduko byazateza ikibazo. Ahongaho uba ugomba kugendera ku muvuduko wa mirongo ine.

Ndabona inyubako ndende zimenyewe mu mujyi wa Kigali zo gukoramo ubucuruzi butandukanye, imbere turahabona na parikingi, ikintu tuzi gikunda kugorana muri uno mujyi kubona aho guparika iyo wakerewe kugera mu mujyi rero izi nyubako urabona ko ubagannyeho zifite parikingi nta kibazo haguteza kubera ko na polisi yagucaho ikomereza ntabwo yakwandikira kubera ko hano hemewe kuhaparika.

Aha turahabona iduka ryiza cyane, ricuruza ibikapu n'imyenda, iby'abana n'iby'abantu bakuru, imbere turahabona ahantu basigiye abakiriya babo babagana ha parikingi, hakura ibyago byo kwandikirwa na polisi, mu gihe uhaparitse uba uri mu mutekano mu muhanda, ntawaza ngo akugonge, nta mupolisi waza ngo akwandikire, aha hantu kuhagana ni byiza kuko ubuzima cyangwa ibikoresho by'uwaje aho ngaho, biba biri mu mutekano.

Ni za nganda nziza cyane zimaze kugwira mu Rwanda ziri mu cyanya cyiza cyahariwe ingande i Masoro, aho zidateza ibibazo abaturage bazituriye kubera ko aha ngaha zahimuriwe kubera ko bahahisemo nk'ahantu hatashyira ubuzima bubi abaturage cyangwa abaturarwanda mu kaga, aho ziba ziri zonyine zigatunganya ibyo zigomba gutunganya mu mutekano kandi mu mudendezo nta n'umuturage zisakuriza cyangwa ngo ziteze inkangu nk'uko twajyaga tubyumva mbere.

Turabona ibishanga hepfo no haruguru hakurya turahabona ibizu binini cyane bigaragara ko ari mu nganda, kuko ni n'agace keza ko gushyiramo inganda kuko nta baturage bahatuye angana mu bishanga byashyira ubuzima bwabo mu kaga ahahantu haba heza rero ku nganda kubera ko bifasha ko abaturage baba bitaruye nazo ku buryo baba batuye ahantu harimo umutekano.

Ni icyapa cyiza cyane kiburira umushoferi kandi kikamwereka ko aha hantu n'ubwo hemerewe guhagarara ariko hatemerewe guhagararwa umwanya munini. Ushobora kuhahagarara hari akantu ufata cyangwa hari ikintu uhereza umuntu, ariko ntube wahahagarara ngo uve mu modoka wigendere kuko byakuviramo kwandikirwa amafaranga utateganyije.

Umuhanda mwiza cyane ukoreye isuku nk'uko bigaragarira ijisho, n'ubusitani buwukikije biragaragara ko bwitabwaho. Turabonamo ya mirongo myiza y'abanyamaguru, bakoresha kugira ngo buri muturarwanda wese akoreshe umuhanda, kandi afite umutekano.

Ni umuhanda mugari cyane nk'uko bigaragara, utateza ibyago ku bawukoresha, rero ntago wibagiwe abanyamaguru bawukoresha bambukiranya umuhanda, aho tubonamo ya mirongo ishushanyije y'umweru ikoreshwa n'abanyamaguru, aho bagomba guhabwa inzira bakambuka nabo nta nkomyi.

Mu muhanda aho tubonamo bya biraro byiza cyane bifasha mu gutambuka imodoka ari nyinshi mu gihe kimwe kandi nta mubyigano uhari ngo zibe zagongana, zibe zashyira ubuzima bw'abantu mu kaga, zimwe zica hejuru izindi zigaca hasi ibi biraro byaje byorohereza abatura Rwanda n'abakoresha umuhanda kubera ko byabafashije kutabyigana.

Ya mirongo myiza polisi yadushyiriyeho nk'abanyamaguru, aha hari imirongo y'abanyamaguru hari ya mirongo y'umuhondo polisi imaze igihe ivugaho ko utagomba kuyihagararamo, hirya turahabona za kamera zidufasha umutekano wo mu muhanda ku buryo udashobora kugonga umuntu ngo wirukanke cyangwa ngo ukora ikosa kubera ko nta mu polisi uhari. Ubu buryo ni bwiza cyane bwaradufashije umutekano mu muhanda n'umudendezo biba byuzuye mu Rwanda rwacu.